Komeza wizigamire wungukirwe agera ku mafaranga ane k'umwaka ukanze akanyenyeri gatatu gatatu rimwe akadirishya ubu ni uburyo bugaragara ko wakizigama ukoresheje.

Ubwishingizi bw'inkoko. Umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana, leta ikamuha nkunganire ingana na mirongo ine ku ijana by'agaciro k'ubwishingizi bw'inkoko. Inkoko zishingirwa, inkoko zitera n'inkoko z'inyama, nyuma y'iminsi cumi n'itanu inkoko ivutse.

Inzu nziza cyane ndende iriho ibyapa igaragaza ko hari ubwishingizi batanga. Batanga ubwishingizi, Kandi hejuru yayo hari iminara y’itumanaho, ndetse ku ruhande hakaba hari igiti kirekire gikoze imitako kigaragariza ubwiza bwabo.

Ubwishingizi bwishingira ibihingwa aho bagira ati ubwishingizi bw'ibihingwa, ubwishingizi bufasha mu ishoramari ritekanye, abahinzi bakabona umusaruro ushimishije. Kwishyura ibihombo kwagura ubumenyi n'ubuhinzi no guhabwa inama z'ubuhinzi.

Hari icyamamaza ubwishingizi bumwe bukorerwa mu Rwanda, abagabo batatu bari gusoma ibyanditseho babiri bambaye imipira y'umweru undi akaba yambaye umupira w'umutuku kandi bose imipira yabo ni y'amaboko magufi bambaye amapantaro y'amakoboyi.

Tekana mu gihe cyawe cy'izabukuru, umugabo n'umugore b'abasaza bafite amagare ku mucanga hafi y'amazi menshi cyane, bigaragara ko bizigamiye kandi barishimye baraseka ntakibazo.

Gura "turi kumwe" ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, kanda akanyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe akadirishya, ubwishingizi buciriritse, icyumweru cyiza hamagara.

yego birahendutse kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe akadirishya ugura Airtel ubwishingizi bwubuzima bwawe nabagize umuryango wawe hamagara imirongo Numero wahamagara ngizo zirahari nazo ku cyapa.

Ubwishingizi aho wowe ubwira ngo shinganisha ibihingwa byawe uhinge utekanye ku bundi busobanuro cyangwa se ku bindi bishakanye byinshi hamagara cumi n'umunani icumi cyangwa se zerukanye umunani umunani mirongo itatu na rimwe gatandatu karindwi icyenda karindwi.

Hano ndikubona umutaka munini cyane utwikiriye inzu, kandi iri kubwira abantu ko bakwiye gukorana n'ubwishingizi.

Uburyo bwa polisi yashyizeho bwo kuvuga uti gerayo amahoro mugihe utwaye imodoka, ukagenda wigengesereye kandi utanyweye inzoga kugira ngo wirinde kuba wakora impanuka ukaba wakwangiza ibikorwa remezo cyangwa se wagonga abantu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye haryamye umurwayi w'umugore, kandi hakaba hari amagambo avuga ati, si ngombwa gutegereza ko ujyanwa mu bitaro mu gihe urwaye, kugira ngo ubone kugura ubwishingizi bwo kwivuza.

Uburyo bw'inguzanyo busabwa, harimo kwishyura, hakabamo kwishyura imisoro, hakabamo gusaba inguzanyo, hakabamo kugurana amafaranga, hakabamo ndetse no kwishyura ibindi bintu runaka ndetse harimo no kuzigama.

Umugore wambaye ikanzu yo mu gitenge, bigaragara ko acuruza andi makanzu menshi adozwe mu bitenge. Ni menshi cyane, akaba akoze imirongo ibiri, amwe hasi andi hejuru.

Iduka ricuruza inkweto z'amoko atandukanye ndetse zifite amabara atandukanye harimo inkweto zifunguye kandi n'izifunze, hakaba harimo iz'umuhondo, iz'umukara hakabamo n'izindi nkweto.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bigaragara ko bacuruza amakanzu y'abakobwa akaba ari umugabo wambaye umupira umwe kandi wateje mu ipantaro y'umukara akaba ari nk'umuzungu wambaye ikanzu bikaba bigaragara ko uwo mugabo haribyo yaje kugura.

Umusore uri kwandika wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umuzungu, uwo muzungu ni umugore kandi umuzungu afite imashini imbere y'umukara ari kwandikamo, hakaba hari na telefoni imbere zawo.

Iduka ricuruza imyenda myinshi cyane harimo amakanzu y'abagore ndetse n'abakobwa meza yo mu mabara atandukanye, harimo amaremare, amagufi ndetse hakaba harimo n'amapantalo.

Imodoka zo gucuruzwa zumweru nziza cyane zo mu bwoko bwa Toyota. Inyuma yazo hari amazu meza y'amagorofa maremare abiri, hakuryazo hakaba hari uruzitiro rusatiye kugira ngo hatagira uzikoraho.

imodoka nziza cyane z'umukara ziparitse ahantu haza cyane bigaragara ko ari imodoka zo kugurishwa ziri mu bwoko bumwe kandi zose zikaba zikomoka mu gihugu cy'ubuyapani.

Imodoka ni nziza cyane igezweho yo mu bwoko bwa Suzuki igurishwa, iyi modoka iragurishwa amafaranga y'u Rwanda, miliyoni cumi n'umunani, kandi iyo modoka irasa mu ibara ry'umweru ndetse kandi iparitse ku mapave.

Ipoto ryinsinga z'amashanyarazi hariho insinga z'amashanyarazi zihereza umuturage umuriro w'amashanyarazi, Kandi imbere yaho hari umuhanda mwiza wa kaburimbo mushyashya, inyuma yizo nsinga hakaba hari amazu y'ubucuruzi.

Imodoka yo gucuruza iragurishwa miliyoni cumi nebyiri z'amafaranga y'urwanda kandi iyo modoka niy'umukara ninziza iparitse mumuhanda kandi hepfo y'umuhanda hari ibiti byiza biwukikije ndetse na ruguru yawo .

Imodoka igurishwa, iraparitse iri kumwe n'inzindi modoka nyinshi zigurishwa, iyo modoka iri kugiciro cya miriyoni cumi na zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda. Kandi ikiyongereyeho, iyo modoka ishobora gukoreshwa n'amasharazi .Iyo modoka iri mu ibara ry'umukara.

Imodoka nziza cyane ikiri nshyashya, bigaragara ko hari ahagifunitse amashashi kubera yuko itaratangira kugenda cyangwa se ngo ikoreshwe iyo modoka kandi ifite intebe nziza z'imbere zigezweho.

Imodoka nziza y'umweru yo mu bwoko bwa toyota igurishwa, kandi iyo modoka ikaba igezweho inyuma yayo hakaba hari aho bacururiza esansi z'imodoka kandi ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo.

Banki nasiyonari y'u Rwanda, amafaranga inote y'igihumbi. Aya mafaranga ni ayakera yakoreshwaga mu bihe bya kera mu Rwanda. Ashushanyijeho inka z'inyambo nziza kandi ziri mu rwuri.

Amafaranga y'u Rwanda igiceri cya makumyabiri, icyo giceri kikaba kikiriri kugaragaza uruhande ruriho ikirangantego cy'u Rwanda, kandi iki kiranrizwa cy'u Rwanda kikaba kirimo agaseke hagati muri icyo kirangantego.

Abagabo babiri, umwe ari kuri mudasobwa ari kurebamo, asa nkaho ari kuganira n'undi wicaye inyuma yayo, bigaragara ko uwicaye inyuma yayo hari ibyo yaje gushaka, akaza kubaza uyu nguyu wicaye imbere ya mudasobwa kandi akaba yambaye na karuvati.

Icyuma gikoreshwa mu gihe bari kubara amafaranga, akaba ari imashini ibara amafaranga mu gihe ari menshi, iyo mashini ikaba ibara umubare w'amafaranga yashyizwemo, bagakuba n'gaciro k'ayo mafaranga kugira ngo hamenyekane ayo bashyizemo.

Inote ya bitanu y'amafaranga y'u Rwanda, iyi noti ikaba yanditseho banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda, iyi note ikaba ishushanyijeho ingagi kandi iyi note ikaba yanditse mu magambo amafaranga ibihumbi bitanu.

Abakozi babiri ba banki, n'abantu babiri baje kubikuza amafaranga yabo kandi, abo bakozi bari kuri mudasobwa bari kuyirebamo.

Inyange, uruganda rw'inyange rukora amata kandi rukanakora imitobe y'amoko atandukanye, batanga ibintu byiza kandi bizira ubuziranenge.

Icyuma gikonjesha amata, igikoresho gikoreshwa mu gukonjesha ibintu harimo amata ndetse n'ibindi n'imbuto, ameza ariho intebe ebyiri kandi hakurya hari umuntu uri gucuruza imigati.

Amandazi asa neza cyane kandi imbere yayo uko bigaragara harasa umuhondo ari ku iparato, ni menshi cyane iyo umuntu rero ugiye kuyaterura cyangwa se agiye kuyahatereka kandi ikaba ari meza, meza cyane bafite amabara...

Abasore batanu bishimye bari kunywa amata kandi bagafata ifoto, bari gukora uburyo bita ngo tunywemo, kandi imbere yabo hatetse imigati ndetse n'amandazi.

Iduka ricuruza ibikomoka ku mata ndetse hakaba hari n'amazi y'Inyange ndetse na Nile, hakaba hari n'ibindi bintu byinshi harimo nk'amandazi ndetse hakaba harimo na...

Kwishyura umuriro ukoresheje uburyo by'ikoranabuhanga ukanze umunani kanyerikanikanyenyeri rimwe akadirishya rigaragara hari umuntu urikoresha umuriro kandikoresha akoresheje ipasi mugihe yari utera ishati ye'pata.

Abantu bari mu cyumba bambaye umupira w'umweru, harimo n'umusore uhagaze wambaye ingofero y'umukara, ndetse imbere yaho hari mudasobwa kandi impapuro imbere yaho.

Uburyo wakoresha umurongo wa airtel w'itumanaho mu Rwanda, uri mu bikorwa byo kugura umuriro w'amashanyarazi kuburyo ukanda "akanyenyeri gatanu zeru rimwe akadirishya".

Igiciro cy'amafaranga yo koherereza ku bindi bihugu, igiciro cyo kohererereza amafaranga zeru kugera ku bihumbi umunani na magana atatu, ni magana inani amafaranga ibihumbi umunani n'amafaranga magana atatu kuzamura kugeza ku bihumbi cumi bitandatu ni igihumbi na magana atanu.

Icyememezo cyo kuba utabereyemo umwenda imisoro, iki cyemezo gitangwa na kimwe bigo by'igihugu gishinzwe iumusoro n'amahoro. Kandi hakaba hariho ibiyiranga kode ngiriya.

Amafaranga y'amanyamahanga ashushanyijeho umugabo udafite umusatsi, kandi hakaba hariho amagambo asobanura ayo mafaranga umubare abara, kandi hakaba hariho n'imibare uko abara.

Abakobwa babiri bari kubara amafaranga y'amanyamahanga, kandi akaba ari amafaranga y'inote z'ijana y'amadolari, akaba ashushanyijeho umugabo wari perezida w'Igihugu cy'Amerika mu bihe bya kera, ariko si yo gusa afite n'andi mafaranga y'ubundi bwoko yo mu bindi bihugu.

Umugabo ufite amafaranga menshi cyane ashushanyijeho abantu, kandi aya mafaranga akaba ari mu ubwoko butandukanye afite n'agatelefoni gato mu ntoki ze kandi akaba yambaye impeta kandi akaba yambaye n'ishati y'umweru.

Amafaranga y'amanyamahanga ni inote z'igihumbi nyinshi cyane umuntu uzifite ari kuzibara. Kandi izo noti ziriho umuntu wambaye ingofero y'umukara ushushanyijeho. Ikaba ayo mafaranga yanditse mu mibare ko ari inota igihumbi.

Icyapa kigaragaza uburyo amafaranga avunjwa, ay'Amanyamerika uburyo agurwa n'uburyo acuruzwamo, ay'Ubwongereza uburyo agurwa n'uburyo acuruzwamo, Amayero uburyo agurwa n'uburyo acuruzwamo.

Amafaranga y'ibihugu byo hanze, ayo mafaranga ashushanyijeho umugabo wambaye utuhuri tw'amaso kandi ufite uruhara aya mafaranga yanditseho banki banki y'ubuhinde ndetse akaba ari menshi aya mafaranga.

Amafaranga y'abanyamahanga umuturage ari kuyabara, amafaranga ashushanyijeho umuntu wambaye ibirahuri by'amaso, kandi hari n'amagambo asobanura aya mafaranga ko ari ayo mu Buhinde.

Amafaranga menshi cyane yongeho kandi ayo mafaranga akaba agiye afunze mu byiciro bigaragara ko ari mu byiciro cyangwa se imifungo, umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu. Ni imifungo itandatu.

Umugabo uri kubara amafaranga atandukanye. kandi ayo mafaranga akaba ashushanyije undi mugabo udafite umusatsi, ufite uruhara. Kandi kora andi mafaranga yabazwe afunitse kandi akaba aziritse neza.

Abantu bari gukora igurana ry'amafaranga mu buryo bita ku kuvunjirana ,umwe ariko kohereza undi amafaranga y'amadorari undi ikamwohereza amafaranga yo mu bundi bwoko bw'ikindi y'igihugu . Abo bantu ni abazungu umwe yambaye umupira w'umweru kandi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga aho uzana amafaranga y'igihugu kimwe cyo hanze ukayagurana nandi mafaranga yicyo gihugu ushaka gufata, kandi harimo abantu babiri umukiriya ndetse n'umuntu uyacuruza.

Inzu bakoreramo ubucuruzi bw'amafaranga aho uzana amafaranga bakakuguranira andi mubyo bita kuvunja ndetse yaba amanyamahanga aha bakoresha amafaranga yisi yose uretse.

Ahantu abantu baguranira amafaranga kugira ngo ubone ayo wifuza yo mu gihugu wifuza. Haragaragara amarange y'icyatsi ndetse hari n'ibyapa bigaragaza ibyo bakora.

Banki ya Kigali, hari ibyapa bigaragaza banki ya Kigali ndetse hakaba hari na nimero wahamagara mu gihe ushaka ko mukorana. Izo nimero zikaba ari izi: zeru karindwi umunani umunani kane gatanu, kane gatatu gatanu gatandatu cyangwa se zeru karindwi kabiri kabiri kane gatanu, kane gatatu gatanu gatandatu.

Aho bakorera ibikoresho bibajwe mu mbaho hari akabati karangijwe gukorwa, kameze neza, gafite inzugi ebyiri bigaragara ko ari keza. Hakaba hari n'ameza yarangijwe gukorwa ndetse hakaba hari intebe nazo zarangijwe gukorwa zimeze neza, zirimo imifariso y'umukara.

Intebe yo kwicaramo, ifite ibara ry'igitaka. Iruhande rwayo hari ururabo ruri ku kantu kameze nk'ameza y'ikirahure.

Intebe nziza zigezweho z'umutuku kandi izo ntebe zikaba zikikije ameza y'umweru bikaba biri mu nzu nziza igezweho, iyo nzu ikaba ifite ibirahure bifashe ku nzugi birebire byiza cyane bigezweho kandi by'ubururu.

Intebe nziza z'imifariso kandi zibaje mu biti. Ku ruhande rwaho hari ameza meza ateretseho umutako urimo agati ko mu ishyamba ka kimeza keza kandi ziri mu nzu nziza ifite amarangi y'umweru.

Intebe nziza zakoze mu mbaho. Hano hari intebe nziza ikozwe mu rubaho kandi bigaragara ko iteye neza igezweho kandi ikaba iri mu nzu kandi iyi nzu ikaba ikorerwamo n'ibindi bintu byinshi bituruka ku mbaho.

Ahantu bacururiza intebe zo mu buryo butandukanye harimo izikozwe mu buryo byitanyefariso cyangwa se amadive izo nte nziza ni zifiteba y'umweru kandi zikaba zifite n'utuntu mpande tw'umukara zigaragaza neza.

Hano hari akabati kagaragaza imitako igateretseho, harimo ukoze mu kinyugunyugu ndetse hari n'amacupa abiri n'ibirahure.

Intebe nziza z'imifariso kandi zigezweho z'amabara y'icyatsi kandi zigiye zifitemo utubara tw'umuhondo n'imisego yazo kandi izo ntebe zikaba zifite ameza yo mu ibara ry'umukara meza cyane.

Inzu ndende yo kwishimishirizamo, iyo nzu ikaba ifite amagorofa menshi cyane, iyo nzu ikaba ifite ahantu heza hanze hari akayaga, hakaba hariho amatara meza acana mu moko atandukanye, bigaragaza ahantu heza hasukuye hagezweho ho kuruhukira cyangwa gusohokera.

Inzu nziza ifite ubusitani bwiza kuri ubwo busitani hateye intebe zirebana nyinshi kandi hagiye harimo n'imitaka muri ubwo busitani harimo imitaka itatu.

Intebe nziza zo muri hoteli z'amabara atandukanye kandi harimo urumuri rwiza bigaragara ko hasa neza hari ahantutu umuntu akwitura akaruhukira heza cyane ibikuta byawe bisize mu marangi y'umuhondo ndetse n'umukara.

Inzu iberamo inama. Irimo intebe z'umukara ndetse n'ameza y'umukara. Imberey'ameza hakaba hariho udukaye two kwandikamo, Hakaba hateretse n'amazi yo kunywa, kandi iyo nzu ikaba isa neza bigaragara ko ari nziza.

Inzu yo gusohokeramo nziza ndende yubatswe muburyo bugezweho, Kandi ifite amatara yaka neza muburyo bugezweho imbere ya yo, hari ahantu ho kuruhukira kandi hakaba n'amazi menshi yo kogeramo

Inzu y'igorofa igeretse rimwe isakaje amateguri, kandi imbere y'iyo nzu hakaba hari imodoka ebyiri, ziparitse kandi hepfo y'iyo nzu hakaba hari igiti cy'umukindo kirekire.

Hotel nziza iherereye mu mujyi wa kigali iri mu zikomeye cyane, kandi hakaba hari amagambo yanditse mu izina ry'iyo hotel. Kandi bakaba bavuga y'uko ikorana n'indi nzu nayo yabugenewe y'imyidagaduro y'iruhande rwayo.

Inzu nziza yo kuruhukiramo cyangwa se gusohokeramo, iyo nzu ikaba iri mu gihe cya nijoro, hakaba hari amatara meza ari kwaka neza, hakaba harimo intebe nziza cyane kandi zisa nkaho ari iza zahabu kandi hakaba hari n'undi umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, uri kujya kubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Inzu nziza cyane ya hoteri ifite ubusitani bwiza cyane bw'indabo z'amoko atandukanye; kandi hari amazi meza cyane y'imitako ava mu butaka yongera asubira hasi.

Ubwuhagiriro bwo muri hoteli, bwo hanze bw'amazi menshi bogamo. Turabona hepfo ya hoteli hari ishyamba ryiza rigizwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye. Hafi y'ubwuhagiriro hari ahantu baruhukira hameze neza.

Imodoka iparitse imbere y'igorofa rirerire, n'imondoka y'umweru. Hakurya hakaba hari Indi nzu nziza cyane nayo y'igorofa, iri mu maragi y'umweru. Kandi hino hakaba hari ubusitani bwiza cyane.

Inzu yo kuriramo ndetse imbere yaho hateguye amameza ateretseho ibirahure byubitse ndetse n'amakanya kandi n'ibiyiko kandi hari n'amasahane.

Inzu nziza cyane igaragara ko ifite ubwogero bwo hanze abantu bagera bidagadura kandi iyozu ikaba ari ibindi, iyi nzu ikaba ifite imiti ku mpande zaho itanga umuyaga ku bantu baje gushaka.

Ikigo cy'ubwishingizi bw'umuntu, umuntu uri mu biro wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hateretse imashini ari kurebamo kandi hakaba hari ibyapa bigaragaraza ubwo bwishingizi bakorera ubwo aribwo.

Inzu ikorerwamo ubwishingizi kandi bukorera mu Rwanda, ifite itara ryiza rigezweho ricanye rimurikira abantu, kandi hakaba hari ibayapa biha ikaze abajea bagana ubwo bwishingizi, kandi akaba ari n'ibapa bibamamariza uburyo batangamo ubwishingizi bwa bo.

Bibiri na mirongo itanu, biragaragara mu muryango w'ubururu, ni ubwishingizi bukorera mu Rwanda, bigaragaza icyerekezo bafite, kandi bigaragara yuko bafite gahunda mu byo bakora.

Ndikubona amabana ariho abantu bashushanyijeho. Kandi ndi kubona bisa nkaho ari muri ofisi. Ariko nta muntu wicayemo.

Imodoka ziparitse imbere y'ikigo cy'ubwishingizi bukorera mu Rwanda, izo modoka akaba ari enye zigaragara neza n'indi imwe itagaragara neza, harimo imwe y'umuhondo ifite ibara ry'icyatsi, hakabamo n'izindi z'umweru.

Inzu y'ubwishingizi, abantu bari kugenda mu muhanda, ni batatu umwe ari kwirukanka asubira inyuma, bari kugenda i ruhande rw'umuhanda ku mapavuye ku kayira k'abanyamaguru.

Icyumweru gishyashya, shyikira umukino wawe, iyi ni banki y'abaturage ku bantu ndetse ku byiza, hari kugaragara umugore ufite imisatsi kandi wambaye ibirahuri by'amaso afite igitabo.

Hano hari icyapa kigaragaza ko itangwa inguzanyo ku bigo mu Rwanda ndetse kiri kugaragaza inyubako eshatu hano, ndetse kandi izo nyubako zubatse neza.

Umugore wishimiye imodoka arimo avamo amubwira umugabo ati nawe wayitunga, umugabo yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, imbere ikote nawe yari gutangara yibaza impamvu yayitunga ashobora kuyitunga ku nguzanyo ya banke.

Saba inguzanyo iga, usoze umugambi wo kwiga gutwara imodokagana mirongo itanu rimwe makumyabiri imodoka irahari iragaragara, umugabo ari kwandika afite ikaramu uko bigaragara mugusababa inguzanyo yo kwiga imodoka.

Nyaruka konti wafungura utavuye aho, icyapa kiri kwamamaza kigaragaza uburyo wakora ibintu vuba vuba kandi bitakugoye.

Abagore benshi bambaye imyenda idoze mu bitenge bafite ibiseke baboshye cyangwa se ibyibo baboshye mu buryo bwa gakondo kandi bakaba inyuma yaho hari urukuta rujya gusa umuhondo .

Inzu y'igorofa ndende ifite amarangi y'umuhondo, imbere yayo hari abantu benshi cyane kandi hakaba hari insinga z'amashanyarazi ziri ku ipoto zijya guhereza umuriro abaturage.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, harimo imboga, hakabamo ibishyimbo, hakabamo amashaza, hakabamo inyanya, hakabamo ibitunguru ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umuturage uri gutunganya amafi ari kuyakuramo ibyo munda bitaribwa, akayasukura akayashyira kuruhande ayasukuye ameze neza hakurya hari bandi bari kuroba ndetse bakana yamuzanira kugira ngo bayasukure.

Iduka ry'imyenda ririmo amakanzu menshi cyane meza kandi ndetse harimo n'amashati arimo amapantaro y'abahungu n'ay'abagabo nk'ay'abagore n'abakobwa kandi bariganira n'umucuruzi cyangwa bagerageza kumvikana.

Isoko ry'ibiribwa ricuruza amashu umumama yaje guhaha ahetse umwana ducuruza amashu, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye by'imboga kandi iryo soko uko rigaragara ni iryo mucyaro.

Iduka ricuruza ibikoresho biboshye. Ibyo bikoresho hakaba harimo ibyibo, uduseke ndetse n'utundi tuntu, uduteteyi, imitemeri n'ibindi bitandukanye kandi bakaba bacuruza ibikapu bikoze mu bitenge.

Abantu bicaye abandi bahagaze bari mu isoko rusange bacuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo udukapu, imyenda, inkweto n'ibindi bintu byinshi cyane.

Abantu bari mu iduka ricuruza ibitenge byinshi cyane kandi bacuruza ibikoresho by'imitako biboshye harimo ibiseke nindi mitako yo kugengenda.

Igorofa rirerire ririmo abantu benshi cyane. Bahagaze ku rubaraza, hasi yayo hari imodoka ya polisi ihaparitse itegereje abantu.

Iduka rihagazeho abantu bane, babiri bagaragara nk'aho ari abaguzi, abandi babiri ni abo kubahereza ibyo baguze, biragaragara ko harimo ibintu buyinshi by'imifuka bisa n'aho ari iibiribwa.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru ifite ikora ry'umukara kandi ifite imisatsi isutse. Ari mu nzu icuruza serivisi za MTN kandi ikaba irimo ibyapa by'umuhondo.

Icyapa cy'imiyoboro y' itumanaho mu Rwanda kirikuvuga kiti "wikwisodeka, kanda akanyenyeri, magana atatu mirongo ine na gatanu, akanyenyeri, umunani urwego uryoherwe n'inyongera ya murandasi" bigaragara ko bari kwamamaza uburyo batanga, bwanze iyo mibare yavuzwe haruguru.

Imodoka ihagaze hejuru yayo hariho icyapa cy'umuhondo kigaragaza imibare yo kwishyiriraho amafaranga n'uburyo wakanda kugirango ubone kwishyura ayo mafaranga.

Umugore ukorera umurongo w'itumanaho mu Rwanda, bigaragara ko afite umukiriya bari kuvugana, imbere yabo hateretse mudasobwa kandi hakaba hari n'icyapa kiriho amagambo agira ati "kanda akayenyeri gatatu kane gatanu akanyenyeri rimwe urwego.

Umugore ucuruza ibijyanye n'ikigo cy'itumanaho gikomeye mu Rwanda, gikoresha ibirango by'umuhondo, cyitwa MTN ari kuvugana n'umukiriya w'umugabo, mu gihe ashaka ibyo.

Inzu y'umuyoboro w'itumanaho rikorera mu Rwanda rifite rigaragara mu mabara y'umuhondo uwo murongo w'itumanaho ugezweho kandi uka ufite abawukurikirana cyangwa se abakiriya benshi cyane bawukoresha, hakaba hari abantu batanga ibigendanye n'iby' uwo murongo ndetse n'amabwiriza.

Akazu k'umwe mu mirongo y'itumanaho mu Rwanda ikoresha amabara y'umutuku, kandi hakaba hari abantu babiri bari gusuhuzanya hari n'undi wambaye ishati y'umweru, uri imbere y'akazu uri kubaza.

Icyapa cy'umuyoboro w'itumanaho mu rwanda gikoresha ibirango biri mu mabara y'umuhondo kandi hakaba hari n'umukozi wabo uri ku'igare wishimye wambaye umupira wo mu birango byabo, mo imbere y'umupira yambaye umupira w'umukara.

Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akenyeri gatatu akadirishya kode zeru zeru zeru zeru umunani rimwe ntayandi mafaranga wishyuzwa amazina ni celesite.

Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri gatatu akadirishya kode: zeru, zeru, zeru, zeru, umunani , rimwe. Nta yandi mafaranga wishyuzwa. Celestin, aya mafaranga nayo kuri kode bisanzwe.

Imodoka y'umutuku iriho ibyapa inyuma yayo, byo kwamamaza. Kandi hariho nimero za telefone ushobora guhamagara mu gihe ukeneye ubusobanuro bwinshi. Iyo modoka iri kureba imbere, isa nk'aho iparitse ahantu mu gipangu cy'umuntu.

Abagabo babiri bambaye amashati y'icyatsi, kandi bakaba bambaye n'ingofero zibarinda umutwe z'icyatsi bakaba bafte n'igikapu bateretse kuri moto y'icyatsi cyanditseho ijambo vuba.

Inkweto nziza cyane z'umweru ziteretse neza, bigaragara bari kuzamamaza kugira ngo bazigure kandi hakaba hari n'urubuga wasura kugira ngo ubone izo nkweto zabo kandi bigaragara ko banakubwira ko iyo uziguze, bazigushyikiriza ku buntu, nta kiguzi cyo kuzitegera.

Iposita, inzu nziza yubatse mu buryo bugeretse kabiri kandi iyo nzu ikaba ifite amarangi y'umuhondo, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka nziza cyane z'umuhondo, harimo imodoka zitwara imizigo ndetse n'imodoka zitwara abantu.

Icyapa kiriho abagore b'abayobozi bubucuruzi bugendanye na murandasi hariho abagore bambaye uturahuri tw'amaso hakaba harimo abafite imisatsi miremire igera mu mugongo .

Umugabo wambaye agarura rumuri k'umutuku kandi wambaye ingofero irinda umutwe mugihe ugiye kuri moto, arigushyira ibintu kuri moto ye kandi bigaragara ko agiye kuhambira neza akabitwara.

Umumotari utwaye moto arigenda mumuhanda bigaragara ko atwara ibiryo kandi akaba anabishyira ababiguze motari akaba yaretse ibintu bifunze mu kintu cy'umutuku.

Ubwiherero bwiza bugezweho ndetse nubwogero icyumba cyubatse neza cyubakishije amakaro.

Inzu nziza ikodeshwa y'amafaranga igihumbi na magana atanu y'amadolari ku kwezi . Iherereye i Kigali mu Rwanda kandi uko bigaragara iyi nzu ifite ibyumba byiza urebye icyumba kirimo uburiri ni kinini kandi kirisanzuye kirimo itara ryiza ,ndetse hakabamo n'irangi ryiza risa neza.

ku madolarari maganainani ushobora kubona inzu buri kwezi yo kujya uraramo i kigali mu Rwanda, ni inzu ifite icyumba cyo kuraramo kiza cyane kisanzuye.

Inzu ya miliyoni ijana na mirongo itatu, iri i Kigali, ifite amakaro y'amabara meza, arimo amara y'umweru, amabara y'umukara, idirishya rifunze neza ririmo ibyuma ku buryo nta mujura wahinjira.

Inzu igurishwa iherereye mu mujyi wa kigali i Kanombe, iyo nzu ikaba ihagaze amafaranga yu Rwanda miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, kandi iyo nzu ifite amabati y'umukara agezweho kandi igafite naho baparika imodoka.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere ye hahagaze umugore uri kugenda mu nzu, bose bari mu nzu kandi iyo nzu ifite amarangi y'umweru bigaragara ko harimo n'ibikoresho byiza bigezweho.

Inzu iherereye mu karere ka Kanombe muri Kigali, bakwereka ko yahagaze miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda. Inzu nziza ifite ibikoresho bigezweho, harimo amakaro meza n'amatara meza agezweho.

Inzu yo kugurishwa iherereye i Kanombe, iri ku giciro gitoya, kandi iyo nzu ikaba ifite ahantu baparika imodoka heza kandi hagari, hakaba hashashe amapave, iyo nzu ifite amatafari ahiye.

Inzu yo gukodeshwa iherereye kabeza mu mujyi wa Kigali, irakodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo nzu igezweho ikaba ifite aho baparika, iyo modoka kandi ikaba ifite urupangu ruyikikije.

Inzu yo kugurishwa ihagaze miliyoni mirongo irindwi n'eshanu. Ni inzu ifite amabati agezweho y'umutuku kandi ifite urupangu rwiza cyane rwo mabara atandukanye, iyo nzu ifite ikigega.

Izu nziza iri mu mabara y'ubururu, isakaje amabati y'umutuku kandi ikaba ifite aho baparika imodoka hanini cyane hashashe amapave, kandi ikaba ifite ubusitani hepfo yaho baparirika imodoka; ubusitani bwiza cyane.

Inzu ikodeshwa, ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe, kandi ikodeshwa ibihumbi magana abiri ukwezi, iherereye Kigali, kacyiru. ndi kubona ifite ndetse n'ubwogero bwo mu ntoki, n'igikoni cyiza.

Inzu nshyashya zitangwa mu buryo bwo gukodesha, ni inzu ziri mu buryo bwubatsi bwa kizungu kandi nazo zikaba zigeretse mu buryo bw'igorofa kandi zikaba ziriho ibiti byiza cyane by'ubwiza.

Ndikubona inzu nziza igezweho iherereye i Kanombe muri Kigali siti. Ifite pakingi eshatu z'imodoka kandi iyo nzu yubakishije amakaro.

Inzu nziza cyane iherereye i kibagabaga kandi ikodeshwa mu mujyi wa Kigali. Ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, igeretse rimwe kandi ifite aho baparika imodoka heza cyane hanini hisanzuye.

Isoko rusange ricuruza ibintu bitandukanye harimo ibikomoka ku mafarini ndetse hakabamo n'ibindi binshi cyane bijyanye n'imyenda, inkweto uko bigaragara ni isoko rigeretse inshuro nyinshi kandi ririmo amatara acanye.

Inzu icuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo amaterefoni ndetse na za mudasobwa, iyi nzu irimo amatara hejuru ari kwaka, kandi hakaba harimo abacuruzi ndetse n'abari kugura, iyo nzu irimo ibyapa by'umutuku.

Umuhanda mwiza mushyashya, ufite inzira yabagenzi. Kuruhande rw'ibiti bikikije umuhanda byiza kandi birebire. Ibyapa byamamaza biri kumuhanda bigaragara ko ari i Remera, uwo muhanda...

Amatara ari kwaka, abantu benshi cyane bari mu isoko rusange bari kugura ibyo baje kugura, n'umuntu umwe uri kugenda ureba ku ruhande.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, ibikomoka ku mata cyangwa se ibindi bikomoka ku ngano, harimo abantu benshi bari guhaha bashaka ibyo kujyana mu ngo zabo kugira ngo batunge umuryango.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bacururizamo udukapu tw'abadamu kandi bakanacururizamo ibyo kurya, imitako n'ibindi byinshi bitandukanye, inyuma y'aho hari ibyapa byamamaza ibyo bakora kandi hakaba hari n'umuzungu uri muri abo bantu bari gucuruza.

Inzu icuruza imyenda y'abagabo, harimo amakositime ndetse n'amashati y'imyeru hari ibipupe byambaye iyo myenda kugira ngo bakwereke uburyo waberwa, hakurya harimo abakiriya baje kugira ibyo bagura muri iyo myenda.

Iduka baguriramo imigati yo kurya kandi iyi migati ikaba ifunitse neza mu mashashi meza ariho ibirango ndetse n'ibigize iyo migati kandi iyi migati ikaba ari amoko atandukanye.

Iyi karita y'umunyamuryango w'ubwisunganeye mu kwivuza nimero zeru gatatu zeru icyenda kane repubulika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima intara y'isirazuba n'akarere ka Rwamagana.

Ikarita y'icyiciro cy'ubudehe ndetse n'ikarita y'irangamuntu; ikarita y'icyiciro cy'ubudehe igaragaza itariki y'amavuko umuntu yavukiyeho, aho abarizwa intara, akarere, umurenge, akagari n'agashami byaho aturuka byose.

Icyapa cyiri mwibara rya ubururu ndetse niyicyatsi, cyiravuga kiti ejo heza. Rero bisobanuye ko mugihe washoje kwizigama amafaranga runaka kugirango ejo hawe hazabe heza.

Amafaranga miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu, ayo mafaranga akaba yanditse mu mibare ndetse abandiditse no mu magambo kandi impamvu y'ayo mafaranga ni ubwishingizi bw'ubuzima bigaragara ko yizigamiye.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, ikarita yo mu muryango y'ubwisungane mu kwivuza, ufite iyi karita ntarembere mu rugo. Umwana afite iyi karita y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo ajye kubona uburyo yakwivuzamo.

Umugabo wambaye neza bigaragara ko akeye afite amafaranga yishimye, ariko baka bari kwamamaza ejo heza, bakubwira yuko uzakomeza kurimba no muri pansiyo mu gihe wisunze ejo heza.

Inzu ndende y'igorofa igeretse inshuro nyinshi, imbere y'iyo nzu hakaba hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda kandi iyo nzu ikaba ifite aho baparika imodoka hasi hasi mu nzu yo hasi ibanza.

Ikarita y'ubwishingizi bwa mituweli ikorera mu Rwanda, iyi karita iri mu ibara ry'umuhondo, iriho ifoto y'umwana bigaragaza ko umwana ariwe uyikoresha wenyine ku giti cye, kandi ikaba iriho amagambo ndetse n'amasinya, ndetse n'ibindi bintu biranga uwo mwana.

Abaturage bari kwandika ku mpapuro ndetse no mu bitabo bitandukanye basa nkaho bari mu nama harimo abadamu benshi cyane hakaba harimo n'abagabo abadamu muri bo hari abambaye imyenda y'ibitenge ndetse cyangwa se amakanzu.

Umugore ufite ikarita ebyiri z'ubwishingizi bwa mituweli, ndetse akaba yicaye ku ntebe ibaje mu giti, akaba yambaye agapira k'umweru kagaragaza mu gatuza, kandi.

Amazu maremare ya etage y'impanga, aherereye mu mujyi wa Kigali akoreramo ibikorwa by'ubwishingizi imbere yabaparitse imodoka y'mweru.

Ikaritq y'ubwishigizi bwa mituweli, aho ifasha abaturange b' u Rwanda kugirango babashe kubona serivise zo kwivuza bitabagoye. Aho bagira amafaranga bagutajyira kugingo, bitakugora mu buryo bwo kwivuza.

Amakarita y'ubwishingizi bwa mituweri. Ubu ngubu ni ubwishingizi bukorera mu gihugu cy'u Rwanda kandi bukaba bufasha abaturage mu buryo bwa rusange kugira ngo babone imiti mu gihe barwaye cyangwa se bakeneye izindi se...

Umukobwa waje guhaha yambaye umupira w'umuhondo afite n'imisatsi miremire igera mu mugongo. Yambaye umupira uriho utuntu tw'ubururu ku kaboko ndetse no mu ijosi.

Isoko rirnini, umumama wambaye ikanzu y'umukara ari kugenda agura ibintu ari butware mu rugo iwe, iryo soko ririmo amatara abiri manini kandi ryubakishije amakaro hasi.

Inzu icuruza ibintu bitandukanye, harimo ibikomoka ku mbuto nk'imitobe ikomoka ku mbuto ndetse hakaba harimo n'ibikomoka ku mata, kandi hakaba harimo n'amazi y'inganda zitandukanye nk'Inyange n'izindi kandi hakaba harimo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye by'abana bakunda.

Amaji akomoka ku mbuto zitandukanye, ari gucuruzwa ahantu kandi hakaba hari n'amafanta yo mu bwoko butandukanye, kandi hakaba hari n'icyuma gikonjesha muri bimwe mu byo bacuruza.

Ndikubona isoko rya Simba kandi harimo abantu bagiye gushopinga kugura ibyo bakeneye ku muryango umwe hahagaze umuzungu uri kureba hirya, hari n'umukobwa wambaye agapantalo k'umuhondo.

Hano hari umukobwa w'umuzungu ufite akantu bahahiramo, ndetse ari guhaha imboga kandi aracyari no gushaka guhaha izindi.

Inzu y'ubucuruzi, isoko ririmo ibintu byinshi byo kurya, harimo imigati, amandazi, amacapati, ndetse n'ibindi byinshi bikoze mu ifarini.